Icyumba kiri kuberamo inama, aho iyo nama iyobowe n'abantu batatu, abagore babiri n'umugabo umwe. Umugabo akaba yambaye ikote ry'umukara bicaye no mu ntebe z'umukara, umugore umwe yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye umupira w'umweru, ikaba iri kubera ku meza nini izengurutse, aho buri wese afite amazi ya nili. Inyuma yabo hakaba hari igikuta kiriho irange ry'umweru.

Abasangiza b'amagambo batatu higanjemo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe bicaye imbere y'abandi, imbere yabo hari imeza ndetse n'icupa ry'amazi ry'Inyange ndetse umukobwa wo hagati afite indangururamajwi arimo aratanga igitekerezo cye agiha abo ababakurikiye.

Isi ya leta ahari ugufasha abantu mu mahugurwa akaba ari abagore batatu n'umugabo umwe bambaye imipira y'umweru bose, bafite n'amacupa y'amazi imbere yabo umwe muri bo akaba yitwa umuhoza wa se n'undi akaba yitwa mukandaga clementine, akaba ari mu nzu iberamo amahugurwa inzu ifite irangi ry'ivu n'amarido y'ivu karimo abantu benshi bambaye imipira y'imyeru.

Inteko y'inama y'abayobozi higanjemo abagabo abagore buri wese afite n'imashini ndetse bafite n'uducupa tw'amazi iruhande rwabo ndetse n'indangururamajwi kuri buri umwe.

Inama cyangwa inteko yakoranyije abantu batandukanye higanjemo abakobwa ndetse n'umusore aho ku ntebe y'imbere hari abakobwa babiri bahicaye umwe ari kureba mu ruhande rwe hirya ,asutse ibisuko wambaye umupira w'icyatsi cyerurutse ndetse imbere ye hari agacupa k'amazi y'inyange ndetse n'undi muri iruhande yambaye marinette n'igitambaro cy'umukara ndetse yamanitse n'urutoki nawe yambaye umupira w'ubururu.

Ni zimwe muri serivisi zigize igihugu aho ari serivisi ya guverinoma ifasha abaturage kwegereza ubuyobozi, akaba ari abagore babiri bambaye amakoti y'umweru n'imipira y'umutuku n'umugabo umwe wambaye ikoti ry'ubururu, inyuma yabo akaba ari icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo arimo Kigali yacu na Kigali ikeye.

Abantu batandukanye bicaye mu ntebe higanjemo abagabo ndetse n'umugore umwe, ho imbere hicaye umugabo wambaye ikoti rya kaki ndetse n'ishati y'umweru ndetse na karuvati isa kaki irimo uturongo tw'umukara wambaye n'amarinete, uteganye n'umugore wambaye ishati y'umutuku n'undi mugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'amarinete y'umukara.

Ni icyumba kiri kuberamo inama irimo abaturage benshi, ikaba iyobowe n'umugore wambaye inkweto z'umukara, n'umwenda w'umuhondo, akaba ari inama iri kubera ahantu hari ama meza asa umutuku, imbere hakaba hicaye umugabo ufite igikapu cy'umukara, bose bakaba bari kureba imbere nkaho umugore ariwe uyoboye iyo nama.

Inteko cyangwa inama yakoranyije abantu batandukanye higanjemo abagabo n'abasore, aho kuruhande rw'imbere hicaye umugabo wambaye ikoti rya kaki, ishati y'ubururu bwerurutse ndetse n'ipantaro y'umukara ndetse afite n'agasatsi gake, kandi abantu bose bitabiriye inama cyangwa umwiherero bose ni abirabura.

Inteko cyangwa inama yiganjemo abantu ubwoko bwose harimo; abagabo babiri ndetse n'abagore babiri. Umugore umwe n'umuzungu wambaye ishati imwe n'utuntu tw'umukara n'abagabo babiri umwe yambaye ikositimu y'ubururu bwijimye ndetse na karuvati y'ubururu n'ishati y'umweru, n'undi mugabo wambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu.

Inama cyangwa inteko yakoranyije abantu batandukanye, higanjemo abagore batatu ndetse n'abagabo babiri. Aho umugore umwe uhagaze afite indangururamajwi mu ntoki z'umukara, ndetse yambaye n'ikarita mu ijosi y'ubururu, n'igitambaro mu mutwe cy'umukara, yambaye umwenda udoze mu gitenge, urimo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'iroza.

Inteko cyangwa inama yakoranyije abantu benshi biganjemo abagore ndetse n'abana, abagore biganje mu myaka hagati ya mirongo itatu ndetse na mirongo ine, harimo n'abagabo ndetse abenshi muri bo bambaye imipira y'ibara ritukura inyuma akaba ari icyapa kigaragaza ko aro abo mu karere ka Kicukiro.

Umugore ufite indangururamajwi wambaye imyenda y'umuhondo, akaba yambaye agakoti k'umuhondo n'ubururu; akabokisi kandi akaba yambaye marineti, bigaragara ko ari we uri kuvuga. Imbere hateretse amazi n'ikirahure. Imbere ye hakaba hateretse akantu kanditseho Umujyi wa Kigali. Akaba yicaye kuri tabu ku meza y'umweru n'intebe y'umweru. Inyuma ye hakaba hari urugi, n'igiku gisize irangi ry'umweru.

Inama yateranyije abakuru b'ibihugu nka r m c cyangwa rwanda mediya santare yitwa afurikani deyi ovu informasiyo, barimo baratangiza rwanda mediya bayomita mu mwaka makumyabiri makumyabiri na kane. Ikaba yakozwe n'abantu barimo abagore ndetse n'abagabo.

Abasore bicaye imbere yabo hari amacupa y'amazi y'inyange bambaye imipira yubururu bwerurutse ndetse ni abasore bagera muri batanu .

Ni inama yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, aho yitabiriwe n'abagore, abagabo, ndetse n'abana, hakaba hari umugore uhagaze imbere ufite indangururamajwi, yambaye agakoti k'ubururu, hari undi wambaye umupira w'umutuku ufite kamera uri kumufotora, bose bakaba bicaye mu gisharagati.

Ni icyumba kiri kuberamo inama aho yitabiriwe n'abantu benshi, abenshi bakaba bambaye imyenda y'imikara, bakaba bicaye ku ntebe z'imikara hakaba hari n'amatara menshi amurika. Abeshi bicaye ku ntebe irimo tebo aho kuri buri tebo hariho amazi ndetse n'ikawa hakaba harimo camera mo imbere bisa nk'aho ari abanyamakuru baje ku kazi.

Inama cyangwa inteko yakoranyije abantu batandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo, aho ku myanya y'imbere hicaye abagore babiri barimo baraseka, umugore wicaye mu ruhande rw'iburyo yambaye imyenda isa n'ubururu ishati ndetse n'ipantaro afite n'ibisuko birebire, naho uri mu ruhande rw'ibumoso yambaye ikote ry'umweru ndetse n'ishati y'icyatsi kibisi ndetse yambaye n'amarinete.

Umugabo uhagaze imbere y'abaturage n'umugore uhagaze imbere y'abaturage igihe inyuma ye hicaye abandi umugabo n'umugore aho uwo mugabo yambaye imyenda y'imyeru, uhagaze yambaye ingofero n'umupira w'umukara, inyuma yabo hahagaze imodoka nyinshi harimo izitwara imizigo harimo n'izitwara abantu, inyuma yabo hakaba hari inzu y'ubucuruzi nini.

Ni icyumba kiri kuberamo inama, aho iyo nama yitabiriwe n'ingeri zose, harimo abagabo, abagore n'abanyamadini batandukanye: nk'abayisilamu n'abagatulika, bakaba bose bahanze amaso kuri televiziyo nini ifite ibintu kubereka, aho buri wese yicaye afite mashini, mudasobwa imbere ye, icupa ry'amazi ya nili, bicaye ku ntebe .

Mu cyumba k'inama aho iyi nama yitabiriwe n'abantu bakeya, ikaba ari inama yitabiriwe n'abayobozi yiga ku Mujyi wa Kigali, imbere yabo hari televiziyo yanditsemo Umujyi wa Kigali, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza y'umutuku, imbere yabo hakaba hari indangururamajwi kandi bafite n'amazi yo kunywa.

Ni icyumba cy'inama aho iyo yitaruwe n'abagabo bane n'umugoro umwe akaba imbere yabo akabateretse amazi ya mu ducupa twa Nile inyuma yabo akaba hari umuzungu wambaye ikoti ry'umukara akaba uri kuvuga inyuma y'uyu muzungu wa ka amarido manini asa ivu.

Icyumba kiri kuberamo inama, aho iyo nama ari iya RURA, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutwazi n'ubwikorezi mu gihugu, akaba ari inama iri kubera mu cyumba, irimo abantu benshi, hakaba hari umugabo uhagaze wambaye ikoti bikaba bisa nk'aho ari we uri kuvuga, imbere yabo hakaba hari imurikamashusho ibamurikirara ku rukuta, ikaba iriho amagambo manini y'umukara mu ibara ry'umweru.

Inzu yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu benshi cyane bicaye mu ntebe nini kandi z'umweru, hakaba harimo abantu, abagabo n'abagore b'imihanda yose, hakaba ari mu nzu ifite amarange y'umweru, inzugi z'umweru, hakaba hari intebe z'umweru, bakaba bafite za mudasobwa nyinshi zitandukanye.

Inteko y'abaturage iri mu ingeri zose z'abantu abakecuru, abamama, abasaza, abapapa abasore n'inkumi bari gukoreshwa inama n'umuyobozi wabo cyangwa umukuru w'umudugudu.

Inama cyangwa inteko yakoranyije abantu batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore aho kumwanya w'imbere hicaye umugabo wambaye imyenda y'abasirikare wambaye n'amarinete afite ikaramu arimo yandika mu ikayi, ateganye n'undi mugore wambaye ishati y'ubudomu bw'umukara n'umugabo wambaye ikoti rya kakaki n'undi mugabo wambaye ishati y'umukara, aho ku meza buri wese agiye afite icupa ry'amazi ndetse n'umutobe w'inyange.

Ni umusore ukigaragara nkaho akiri muto witabiriye amahugurwa wambaaye umupira w'ubururu ku ruhande rwe akaba hari meza iriho amacupa y'amazi ane umugabo afite agakapu ku rutugu uwo umugabo akaba afite umusatsi w'umukara n'ubwanwa inyuma hakaba hari abakobwa bafite imisatsi miremire y'imikara n'abo bambaye imyenda y'ubururu.

Umukobwa mwiza ufite ibisuko wambaye umupira w'umutuku, akaba imbere ye hari mudasobwa, akaba ari kureba ibiciro by'ibicuruzwa.

Icyumba kinini kiri kuberamo inama, aho iyi nama yahuje abantu bo mu nzego zitandukanye. Harimo abagabo n'abagore, umuyobozi wabo akaba ari umugore. Ikaba ari inama iri kubera mu cyumba kirimo amarangie y'umweru, harimo ishusho y'inka. Akaba ari icyumba kirimo imeza nini iriho mikoro, kuri buri muntu hakaba hari icupa ry'amazi n'icupa rya ji.

Abagabo bari guseka bambaye imyenda isa y'ubururu. Inyuma yabo hakaba hari undi mugabo wambaye undi mupira udasa nk'uwabo. Ku ruhande hakaba hari mugabo wambaye ikoti ry'umukara, wambaye n'amarinete akaba ari kwandika utuntu. Akaba na we yasetse. Aho abagabo bose bafite telefone ebyiri z'umukara mu ntoki.

Ni basore bakiri bato uko bigaragara. Bakaba bambaye imipira y'ubururu, bakaba bicaye ku ntebe z'amabara atandukanye arimo umweru, umuhondo, n'ubururu. Akaba umusore yicaye ku meza ifite igitambaro cy'umweru, naho ku meza hari amacupa atatu y'amazi ya Nili. Inyuma ye nawe hakaba hari abandi basore benshi bose bafite imisatsi y'imikara bigaragara ko bakiri bato.

Mu cyumba kiberamo inama aho iyo nama yitabiriwe n'abantu benshi harimo abagore n'abagabo bicaye kuma kumameza manini azengurutse mbere ya buri wese akaba ari icupa ryamazi n'impapuro n'agapapuro kerekana amazina ye n'icyo akora ikaba iyobowe n'abagabo bane bambaye imyenda y'umweru bicaye imbere yabo.

Umugore wambaye ishati y'ibara ry'ubururu ndetse n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara nishati y'ubururu, bicaye mu ntebe ndetse buri wese afite ikaye imbere yiwe arimo arandika.

Ikiganiro cyateguwe na Rwanda reveni otoriti cyivuga ku misoro cyikaba cyiriho umugabo umwe n'umugore, bikaba biri mu birango by'ubururu byandikishijeho irangi ry'umweru bikaba biri gutangazwa ko biri gutangazwa ko biri bucishwe ku maradiyo menshi atandukanye bikaba bivugwa ko cyizaba ku cumi n'eshanu z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kane.

Urubuga rw'irembo ruririmo ubusa bw'ibara ry'ubururu rwerekana serivisi nshya ku rubuga rw'irembo aho izajya itangwa n'ikigo cya minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu mu cyiciro cy'umuryango izina rya serivisi rikaba ari icyemezo cy'utishoboye wacitse ku icumu rya jenoside.

Umunara munini w' umweru n'umutuku. Aho uwo munara ari muremure cyane, imbere yawo hari ibirango bya tigo. Hakaba hari abantu benshi bawuzengurutse bambaye imipira y'ubururu. Ku ruhande hakaba hari amamodoka abiri atandukanye imwe ni imodoka yigenga indi modoka itwara abantu mu buryo bwa rusange. Ikaba isa umweru indi ikaba isa umukara.

Abagabo babiri bari kumwe. Umwe w'umuzungu wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'umupira wa shokora ari kumwe nundi mugabo w'umwirabura wambaye ikoti ry'icyatsi cyijimye ndetse n'ingofero y'umweru ndetse n'umupira w'ubururu bwerurutse.

Umunara ukoze mu bikoresho by'ibyuma uri iruhande rw'amazu atatu yubakishije amatafari ahiye ndetse imbere afite n'amarangi y'umweru, umunara uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara ukaba ufite n'ibindi bintu ku ruhande bisa umweru.

Urugaga rw'abenjeniyeri cyangwa abatekinisiye, bigaragara ko ari abamashanyarazi bari imbere y'umunara, barimo barafata amakuru ahagije kuwo mu, kuwo munara kugira ngo babashe gutanga serivise nziza ku baturage.

Urubuga rwerekana aho abantu bashakishiriza akazi aho umuntu agenda agashyiramo akazi bitewe n'icyo ashaka gukora agashyiramo n'aho aherereye igihugu cyangwa se umujyi yaba aherereyemo bityo akazabona akazi bitewe n'ayo makuru yatanze.

Ubutumwa butangwa n' ikigo gishinzwe kugenzura ndetse no kubara imisoro mu gihugu cyangwa se rwanda ara ara eyi cg Rwanda revenu oforiti buririmo gutanga ubutumwa ku bipimo by'umusoro w'ubutaka buriho nyubako uko biba biteye.

Haje aho paji yanditseho amagambo y'umweru n'umukara n'andi y'ubururu okaba irimo n' agafurwshi k'umutuku ,inyuma paji amagambo akaba yandikishije umukara mu ibara ry'umweru aya magambo akaba ari mu cyongereza ,akaba ari udutaburo tugeze muri tubiri tubiri tunini n'utundi dutatu duto duto turimo ayo mataburo manini.

NI urubuga rw'irembo ku rubuga rufasha abanyarwanda kubona serivisi zitandukanye za leta kuri uru rubugatagaragara ko ruri mu ibara ry'ubururu ahamaga rike mu ibara ry'umweru n'ibara ry'umuhondo haririmo telefone n'amabara y'u n'umuhondo n'ubururu hejuru hakaba handitseho serivisi urubuga rutanga

Itangazo riri mu ibara ry'ubururu, ndetse harimo n'ikirango cya telefone, amagambo yandikishije ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru riburira abantu kwirinda abatekamutwe, babahamagara babaka gushyiramo umubare w'ibanga wa mobayiro mani yabo.

Umugabo w'umwirabura wambaye umupira w'umweru, akagira agasatsi gake ku mutwe ndetse wambaye n'amarinete, ufite indangururamajwi, arimo aratunga agatoki ku cyapa cy'irembo gifite ibara ry'ubururu, cyanditseho ngo byikorere, aho ukanda akanyenyeri magana cyenda n'icyenda, urwego, ugahita ugera kuri serivisi zabo za byikorere.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyandikishije amagambo y'umukara inyuma yacyo hari abantu bicaye ku ntebe imbere yabo hari za mudasobwa ndetse bambaye n'amakarita mu ijosi y'ubururu, bari mu nzu isize amarangi y'umweru ndetse ifite n'amakaro y'umweru.

Icyapa k'ikigo gishinzwe imisoro kiri mu ibara ry'ubururu ndetse cyandikishije amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, aho kerekana ingengabihe y'imisoro y'ukwezi ko mukwa kwa cumi n'abiri.

Urubuga rwitwa eni ero eyi cyangwa nashono landi otoriti, rwifashishwa muri repubulika y'u Rwanda, aho itanga ku buryo bwihuse amakuru y'ingenzi ku butaka.

Abakobwa batatu bicaye imbere y'ameza bambaye imyenda y'imihondo, inyuma y'aho kugikuta hamanitse tereviziyo irimo ibara ry'umuhondo. Inyuma y'aho Kandi hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umuhondo. Imbere yayo meza har'undi mukobwa muremure wambaye ipantaro ya kacyi ndetse n'ishati idafite amaboko, imisatsi miremire myiza y'umukara.

Umunara ukoze mu byuma by'umutuku ndetse n'umweru, wifashishwa mu itumanaho rya terefoni, cyangwa mudasobwa hifashishijwe imiyobore y'itumanaho nka emutiyene ndetse n'iyindi, iruhande rwawo hari akabati kariho amarangi y'umuhondo ndetse kanditseho emutiyene, uzitirishijwe ibyuma.

Inzu z'ubucuruzi ziriho ibyapa bigiye bitandukanye nka kimwe kiriho icyapa cya banki aho batanga serivisi zo kubitsa, kubikuza ndetse no kohereza amafaranga hirya no hino hakabaho icyapa cya banki ya Ekwiti kiri mu irangi ry'umuhondo ndetse no ku ruhande hariho akabara k'umutuku.

Ni rubuga rwa Rwanda Reveni Otoriti rushinzwe imisoro n'amahoro mu gihugu. Akaba ruri mu ibara ry'ubururu, rukaba ruriho n' amagambo y'umweru n'andi y'umuhondo. Akaba ari amagambo avuga ngo" Tudeyi izi dedirayini." Bisobanura ko uno munsi ari umunsi wa nyuma. Hariho ko ari mirongo itatu n'imwe, z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane.

Urubuga rwa ara esibi cyangwa rwanda sitandadi bodi, rwerekana aho umuntu yafunguriza konti ye akerekana naho yashyira ibyocuruza, tini namba ndetse n'ubwoko bw'uruganda afite bikaba bizemezwa na ara esibi.

Haba harimo umugabo ugaragara cyane wambaye ikoti ufite agakapu mu ntoki ndetse na telefoni aba yambaye n'ishati n'akaruvati aho ku ruhande ari umugore umeze nk'umutetsi akaba yambaye ishati y'umweru n'umwenda w'abatetsi, hakaba hari ibindi biganza bine harimo igifite ikintu bavurisha nicyo barebesha izuba n'ikindi bakoresha amamodoka.

Abantu batatu biganjemo abasore babiri ndetse n'umukobwa aho umusore uri kuruhande yambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umukara ndetse n'agapfukamuwa k'ubururu hamwe n'uwo bari kumwe wambaye ishati y'amaboko maremare irimo utudomo tw'umukara ndetse n'agapfukamunwa k'umweru bose bari kureba muri terefone hamwe n'umukobwa ufite umusatsi mwinshi afite na mudasobwa mu ntoki.

Ni inyubako nini, aho inyubako hejuru ifiteho iminara ine, ikaba ari inyubako ya etaje ifite amagorofa menshi, akaba ari inyubako iri mu gipangu, ku ruhande rwayo hakaba hari ubwatsi, inyubako hejuru ikaba ifite amarangi, hejuru hakaba hari icyuma kifashijwa mu guturansifera imirasire y'izuba iyakoramo umuriro w'amashanyarazi.

Ibiro cyangwa inzu irimo intebe zirenze imwe zisa umukara hasi hari amakaro asa umweru ndetse no hejuru hari amarangi asa n'umweru imbere hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse harimo imeza zirenze imwe zigiye zitandukanye hagiye hazengurutseho intebe z'umukara.

Umunara muremure w'itumanaho ukoreshwa mu itumanaho. Akaba ari umunara uzengurutswe n'inyubako zitandukanye, aho umunara ukorotiriye n'ibyuma biwurindira umutekano. Mo imbere hakabamo ibintu binini by'umweru, umuhanda usize amarangi y'umutuku n'umweru, inyuma yaho hakaba hari umurima urimo ibigori.

Igikoresho k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gusakaza interineti gifasha abaturage kujya kuri murandasi, gukoresha imbuga nkoranyambaga no gushaka amakuru agezweho aho kimanitse ku gikuta gisa mweru icyuma k'ikoranabubanga kikaba gisa umukara kikaba cyanditseho wifi.

Amarembo y'amazu y'ubucuruzi agera muri atatu, irya mbere rifite ibara ry'umuhondo, irya kabiri rifite ibara ry'icyatsi ndetse n'irya gatatu rifite ibara ry'icyatsi, hejuru hariho icyapa cyanditseho irembo ndetse n'andi magambo yerekana ibyo irembo rikora.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'igihugu aradibi cyangwa se rwanda diveropmenti bodi rwerekana imyirondoro byicyo kigo cyangwa aradibi harimo nimero za telefoni aho bakorera ndetse na imeri zabo.

Umugabo w'umwirabura wicaye ureba inyuma ufite agasatsi gake ndetse wambaye n'ishati y'umutuku irimo utudoma tw'umweru, imbere ye hari mudasobwa yanditsemo ijambo irembo ndetse n'andi magambo ari munsi hakaba hari na telefoni ku ruhande rw'iwe.

Igipangu cy'umuntu igipangu gifite igipangu k'icyatsi kibisi, kikagira amatafari ahiye hagati y'amatafari hasizemo irange ry'umukara, inyuma yayo hakaba harimo inzu ifite anteni ya kanari akaba ari inzu ifite amabati y'umutuku.

Umunara w'amashanyarazi ukoze mu bikoresho by'ibyuma ugiye uzengurutsweho n'insinga, insinga zifite ibara ry'umukara ndetse ari no ku manywa, ikirere gisa umweruro ndetse n'ubururu.

Akabogisi k'umweru akabagisi gakozwe mu byuma, akaba ari akabogisi gateye mu butaka. Inyuma yako ari mu murima, nyuma hakaba hari ipoto rirerire ry'amashanyarazi. Ariko gabogisi gafite amabuto atatu umutuku, icyatsi kibisi n'umuhondo; bakaba gafite n'ibyuma ku ruhande rwaho hejuru.

Ni ipoto rinini ritwara umuriro w'amashanyarazi, aho iryo poto riri ahantu hameze nk'aho hari ikibuga, hari ubutaka bunini budafite ikintu kirimo, uretse gusa ishyamba gusa n'ibyatsi, bikaba bigaragara ko hari umuntu warifotoye, harimo igicucu cyiwe, iryo poto rikaba rikoreshejwe, icyuma rijyana umuriro hirya mu baturage.

Umuhanda urimo abanyamaguru batatu ndetse hari n'ahantu bacururiza amayinite, hari imitaka ibiri y'umuhondo ya emutiyene ndetse hari n'umuntu wambaye isarubeti y'ubururu ndetse n'abandi babiri bicaye munsi y'igiti.

Iminara ibiri yifashishwa mu itumanaho hirya nohino mu gihugu, iziritseho insinga ziri mu ibara ry'umukara, ndetse iminara ikoze mu byuma bisize amarange y'umutuku ndetse n'umweru.

Amapoto abiri manini atwara amashanyarazi mu byerekezo bitandukanye, ayo mapoto agemura umuriro mu mazu y'abantu, akaba ari amapoto abiri imwe ikaba ibyibushye kurusha indi ariko indi ikaba ari ndende kurusha indi akaba ari amapoto y'ibyuma afite amasinga ageze muri cumi n'abiri mu cyerekezo kimwe.

Ibikorwa remezo birimo amapoto ateyeho amatara yo ku muhanda amurikira abagenzi barimo baragenda nijoro ndetse agatuma banabona neza, ayo mapoto ariho n'insinga z'umukara ndetse inyuma yaho hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Aho uwo muhanda uhagazeho umumotari uri gushaka abagenzi n'abagenzi bari kugenda n'amaguru. Hirya hari icyapa kinini cyanditseho Gasave. Hakaba harimo ipoto nini ritwara umuriro, ku ruhande hakaba hari umutaka wa MTN. Ku rundi ruhande hakaba hari inzu, inyuma y'umumotari hakaba hari amapine yashaje.

Ni inzu iri ahantu hitaruye, imbere yaho hakaba hari ipoto iriho amasinga y'amashanyarazi, ku ruhande hari ikindi gipangu kirimo imodoka y'umweru, n'umugabo wambaye imyenda y'imikara akaba ari kuyoza, iyo nzu ikaba ifite amabati y'umutuku ikaba n'igipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Umunara uri mu ibara ry'umukara ukoresheje ibikoresho by'ibyuma ndetse no kuri buri mpande hariho imigozi cyangwa insinga umunara akunze kwifashishwa mu itumanaho cyangwa mu amashanyarazi uri hagati y'amazu menshi aho ruguru yaho hari inzu iri mu irangi ry'umuhondo ndetse ifite n'amabati y'umutuku naho imbere yabo hari indi nzu iri mu ibara rya kaki ndetse ifite n'amadirishya asa umuhondo.

Namwe murabona ko ari umunara ushinzwe mu gutwara mo amashanyarazi. Akaba ari umunara uturukaho amasinga yose ajya mu gakaritsi kamwe; akaba ari umunara ugaragara ko uri imbere y'ishyamba. Akaba ari umuna ariho amasinga menshi, amwe azamuka andi amanuka, akaba ari umunara w'icyuma.

Umuhanda wicyerekezo kimwe. Aho ku ruhande hariho ipoto rirerire ry'amashanyarazi. Ririho itara rimurika nijoro akaba hariho n'amasinga ijyana umuriro mu baturanyi. Aho inyuma yaho hari inzu yo kubamo ifite igipangu cy'amatafari ahiye n'amatafari y'ubururu, n'amabati y'ubururu. Hakaba kuruhande harimo akayira k'abanyamaguru gatoya.

Isoko ry'imboga ririmo abantu bagiye batandukanye hari umucuruzi ari gutonora ibishyimbo hari ibitunguru, harimo amashaza, inyanya ndetse harimo n'abandi benshi.

Umuriro ahantu hatandukanye, kuri iyo pota hakaba hariho amasinga atatu arinyuraho yose akomeza agatambuka. Ku ruhande akaba ari igiti kinini gisanzwe, imbere y'iryo poto hakaba hari akayira k'abanyamaguru, hakaba hashinzemo akantu k'umutuku n'umweru kari, kari mu muhanda.

Ipoto rinini riri mu muhanda hagati aho iryo poto ririho amatara yabugenewe yerekana icyerekezo na kamera zo mu muhanda zicunga umutekano, hirya hakaba hari imodoka ebyiri ziri kuza n'akazu n'abaturage benshi, imbere yaho hakaba hari akayira k'abanyamaguru n'umuhanda ufite amabara y'umweru n'umukara kuruhande aho abanyamaguru banyura.

Inyubako nini aho iyo inyubako igaragara ko ibamo abantu, ikaba ifite amabati y'umutuku ikaba isize irange ry'ikijuju ikaba yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hakaba hari amapoto abiri atwara umuriro w'amashanyarazi, ku ruhande hakaba hari umuhanda ufite amarangi y'umweru n'umukara. Imbere y'iyo nzu hakaba hari andi mazu matoya ari mu gipangu.

Iminara irenze ibiri, iri mu irangi risa kaki ndetse igiye izengurukijeho insinga z'umukara, aho imbere yaho hari icyapa kerekana ko ari REG, cyangwa ikigo k'igihugu gishinzwe amashanyarazi, aho kiri mu ibara ry'ubuso bw'umweru ndetse cyanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Akayira kubakishije ibikoresho by'ubwubatsi bya kaburimbo ndetse hirya hari agakuta akagufi kubakishije amabuye imbere yaho hari inzu zifite amabati y'umutuku ndetse n'ibigega by'umukara no hepfo hari indi nzu ifite amabati y'umutuku.

Serivisi za leta aho abaturage abagabo babiri n'abagore babiri bicaye ku murongo bategereje bategereje umuyobozi, aho bicayeye ku ntebe z'umukara bakaba begamiye kukuta z'amatafarihiye zisze amara y'umukara hasi, inzugi zikaba zisa nk'ivu.

Umuhungu ukiri mutoya aho yambaye ishati n'ipantaro n'inkweto z'umukara, akaba ari kugendera ahantu hasakawe n'amabati, ku ruhande hari ibyuma by'umukara hirya ye hari inzu y'umweru, iburyo bwe hakaba hari indi nzu ifite inzugi z'icyatsi kibisi.

Imodoka zirenze imwe ziparitse imbere y'ubusitani. Ziganjemo imodoka zisanzwe zo gutwara abantu mu buryo busanzwe ndetse n'imodoka zidasanzwe, zishinzwe gutwara indembe cyangwa se abarwayi zibajyana kwa muganga.

Abagabo, abasore ndetse n'abagore n'abakobwa barimo baragendagenda ku bitaro bya Masaka bigaragara ko baje kwivuza cyangwa se izindi serivisi zijyanye n'ubuzima zabazanye kuko bari ku bitaro.

Ni icyumba kirimo abantu benshi bisa nk'aho baje kwivuza. Imbere yaho hari umuganga wambaye imyenda y'umweru, hari uwaje kwivuza wambaye ishati y'umutuku ntse n'igikapu cy'umukara, akaba ari kuganira na muganga. Hirya yabo hari urugi runini rufunguye aho bicaye ni intebe z'umukara.

Amarembo y'aho bakirara abaje bagana ibitaro byo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, aho baza bakakirirwa bagatanga amakuru y'uko barwaye ndetse n'uko biyumva, kugirango babe bavurwa indwara baba barwaye zigiye zitandukanye.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Amarembo yinjira mu kigo cy'igorora rya Muhanga hasi handitseho amagambo yo mu ndimi z'amahanga Correctional facility, icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse gifite n'umuzenguruko w'umukara, hari n'igipangu cyubakishije amabuye asize amarangi y'umweru ndetse n'umukara.

Abagore babiri n'umugabo umwe aho bambaye impuzankano y'umweru n'umukara bakaba bicaye ku meza nini isa ivu iriho impapuro nyinshi, inyuma yabo hakaba haari ikirangantego cy'umuryango w'abibumbye ushinzwe gutabara imbabare witwa kuruwaruje.

Umugore w'umwirabura ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye amaherena ndetse n'amarinete, wambaye umwambaro umeze nk'ishati isa umutuku ndetse n'imbere hariho utubara tw'umukara ndetse n'umweru, uhagaze imbere y'ahantu hari ibara ry'umweru.

Kubera leta yo kurenganura abaturage aho harimo abagore babiri n'umugabo umwe n'undi mugabo w'imfungwa wambaye imyenda y'imfungwa abo bagabo babiragamba imyenda y'imikara n'agapira ku mwe' undi mugabo yambaye imyenda y'imikara bafite ibitabo numuga bafite impapuro inyuma yabori ibikuta cyumweru umugore umwe aricaye undi arahagaze.

Icyapa kinini, icyo cyapa kinini gifite amashusho y'abantu harimo umugabo ufashe ku mutwe n'umugore wambaye akantu k'umweru kandi babiri bari guhiga icyapa kivuga ko inkiko gacaca mu amagambo y'umukara, maze akaba yanditseho ukuri kurakiza mu magambo y'umutuku, ibara ry'umweru; inyuma y'icyo cyapaga hakaba hari imodoka ebyiri.

Ni bagororwa bambaye impuzangano isa, aho bicaye ku ntebe ndende z'imbaho, ku ruhande rwabo hakaba hari abaturage benshi bameze nk'abaje kubareba, hirya yabo hari ishyamba, hari ibiti bakaba bicaye mu bwatsi bwa pasiparumu.

Urupapuro ruriho ingingo ya gatatu, aho iyo ngingo iri mu ndimi eshatu zitandukanye, ruri mu gifaransa, icyongereza, ndetse n'ikinyarwanda, aho ya gatatu ariyo ivuga ngo ubwigenge bwa komisiyo n'igihe izamaraba akaba ariko akaba ari mu ndimi eshatu zitandukanye kugira zifashe abantu kumva.

Abago barindwi bari gusohoka mu nzu yanditseho gereza ya Nyarugenge, akaba ari abagabo, umwe yambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umuhondo, undi yambaye ipantaro y'umukara n'ishati ya oranje, undi yambaye ikabutura y'umweru n'umupira w'umukara, aho bari gusohoka muri iyo gereza, gereza nini cyane ifite umuryango w'umukara.

Umugabo wambaye imyenda y'abashinzwe amategeko mu gihugu cy'u Rwanda. Aho yambaye umwenda w'umutuku, ufite ubwoya bw'umweru imbere n'utuntu tw'umukara. Akaba yambaye ingofero y'umukara, hejuru izengurutseho akantu kameze nka diyama. Akaba ari urukara afite ubwanwa busanzwe. Inyuma ye hakaba hari igikuta cy'umweru.

Icyapa cyamamaza gifite amabara y'umweru nubururu kiriho amagambo avuga ngo humura turi hano ku bwawe kiriho umuntu uryamye mu ntebe ufite imisatsi y'umukara.

Umupolisi w'umukobwa ukora mu muhanda arimo aragenzura ibyangombwa by'umugabo utwaye imodoka, ibyangombwa agenzura harimo perime ndetse na karitejone y'imodoka akareba ko bikiri bizima kandi bikora.

Igikoresho gikoreshwa mu kuzimya umuriro, iki ni igikoresho gisa umutuku kikaba gifite akagozi k'umukara cyikaba gifite akantu k'umweru bafataho bari gukoresha cyikaba kiri ku gikuta cy'umutuku, aka aba ari agapapuro k'umuhondo kuko rikoreshwa ikaba yandikishijweho amagambo y'umukara.

Inzu iriho icyapa cya polisi y'igihugu cy'u Rwanda, aho imbere hari imodoka nyinshi ziganjemo imodoka z'umweru ndetse n'izumukara, imbere y'umuryango hari abantu barenze umwe, higanjemo abagore ndetse n'abagabo kandi bose bakaba ari abirabura.

Abantu batanu higanjemo abanyamaguru batatu, abana babiri ndetse n'umumama umwe, ndetse n'abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda, bahagaze ku ruhande rw'inzira inyuramo ibinyabiziga.

Amarembo y'ibitaro bya polisi y'igihugu cy'u Rwanda biherereye Kacyiru, biriho icyapa kirimo ubuso bw'umweru aho ibumoso hari ikirangantego cya polisi y'igihugu cy'u Rwanda hanyuma iburyo hakaba hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro kiba cyitwa kizimya mwoto, kikaba gisa umutuku, akaba ari bibiri bisa umutuku, hejuru hakaba hari umugozi munini wifashishwa nawo mu gutwara amazi ahantu habaye inkongi y'umuriro, byose bikaba bisa umutuku, bikaba biri mu nzu ifite amakaro y'umweru, no ku ruhande ay'umukara, bikaba biri ku gikuta cy'umweru.

Umupolisi aho yambaye imyenda y'umukara n'utubara tw'umuhondo tumurika cyane aho umupolisi yambaye mu gatuza yambaye ijambo Rwanda polisi akaba yambaye ingofero y'umukara imbere ye hakaba hahagaze umuntu wambaye ingofero y'umukara nawe wambaye umupira w'umweru uhetse igikapu, ku rundi ruhande hakaba hari iduka rinini ryanditseho tekino ry'ubururu.

Umwana w'umusore uri kugenda mu nzira y'abanyamaguru iri iruhande rw'umuhanda urimo imirongo icagaguye y'umweru uri kugenda afite utujereksni dutatu tw'umweru n'akamwe k'umuhondo ndetse imbere hari imodoka y'umweru itwara abantu mu buryo busanzwe .

Ibikoresho bikunze kwifashishwa iyo habayeho inkongi y'umuriro byifashishwa mu kuzimya umuriro birimo ibara ry'umutuku ndetse rifite n'imipira ku ruhande isa umukara ndetse n'akantu k'umuhondo imbere, biteretse imbere y'ibikarito bisa kaki byanditseho amagambo arimo ibara ry'umukara.

Igikoresho cyifashishwa barimo barazimya umuriro cyangwa se inkongi y'umuriro, aho mu ndimi z'amahanga bakunze kucyita kizimyamwoto, kikaba kiri mu ibara ry'umutuku, kikagira n'umugozi muremure kugira ngo ugikoresha abashe kugeza aho umuriro urimo urabera bitamugoye.

Ushinzwe umutekano wo mu muhanda cyangwa umupolisi arimo kugenzura icyangombwa cy'umuntu utwaye cyangwa se ari cyo kikunze kwitwa perime areba ko yujuje ibisabwa kandi ifite umwimerere ukwiye.

Ushinzwe umutekano cyangwa umupolisi ushinzwe imigendere n'imikoreshereze y'umuhanda, wambaye ingofero y'umukara, ikoti ry'umukara, ku kuboko kw'ibumoso hari ikirangantego cy'u Rwanda kidarapo ndetse no ku mpande zo mu nda hariho ibara ry'icyatsi ryerurutse yambaye ipantaro y'umukara, afite na telefoni ku mufuka w'ibumoso.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga byiganjemo imodoka ndetse n'amamoto, imodoka harimo imodoka ya rege cyangwa ishizwe amashanyarazi hakabamo n'imodoka y'ikigo cy'igihugu cya polisi hakaba arimo n'icyapa cya vizite Rwanda.

Igikoresho kitwa kizimyamdo Kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, kikaba gisa umutuku kiri ku gikuta cy'umweru, icyo gikoresho kikaba gifasha kuzimya ahaba hari inkongi y'umuriro, kugira birinde inkongi y'umuriro yakomeza kuba nini cyangwa igakomeza kwangiza ibintu byinshi.

Icyo miliyoni ijana na mirongo ine z'amanyarwanda zakugurira muri Kigali akaba ari igikoni kigezweho ndetse gikoze neza cyubatse neza kikaba kirimo n'itara.

Icyapa cy'umweru cyanditse mu magambo y'ubururu giteganye n'umuhanda ndetse hirya y'umuhanda hari abamotari, cyerekana aho polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Nyarugenge ndetse no mu gace ka Rwezamenyo.

Igikoresho cy'umutuku gikunze kwifashishwa hazimya umuriro ndetse n'inkongi y'umuriro gikunze kwitwa kizimyamwoto mu ndimi z'abanyamahanga, aho gifite umugozi muremure wifashishwa mu kuba uzimya umuriro yabasha kuzimya umuriro ahantu hamuri kure.

Imodoka ikoreshwa na polisi y'igihugu y'u Rwanda aho modoka yanditseho tarafike polici, byayandikshije ibara ry'umukara, imodoka yose akaba ari umweru, ikaba iciyemo akarongo karekare kayizengurutse k'umukara, ifite ibirahuri by'umukara, ikaba iparitse mu muhanda hegereye akayira k'abanyamaguru.

Ni icyumba kinini kiberamo inama, iyari inama yitabiriwe n'abantu benshi bu bwoko butandukanye, hakaba harimo abagabo n'abagore, hakaba hagaragara umugore uri kuvugirwa ku ndangururamajwi wambaye isaha y'umukara, ufite amazi imbere ye, wambaye umupira, ishati, ikoti ry'ubururu akaba yicaye ku nte y'umukara akaba afite imisatsi ya shokora yambaye na rinete.

Umugabo wambaye amarinete wirabura ufite agasatsi gake ku mutwe, wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, n'ikaruvati y'umukara. Inyuma ye hari umugore ugaragara igice gito cy'umutwe ufite umusatsi ndetse n'ijisho rimwe ni ryo rigaragara.

Iyi nama yitabiriwe n'abantu benshi aho abayitabiriye harimo abagore n'abagabo, umugabo bambaye agapfukamunwa umugore akaba yambaye lineti, umugabo yambaye ikoti ry'umweru n'ishati y'umweru, umugore yambaye ijipo y'umukara inyuma bicara ku ntebe z'umukara imbere yabo hayime atetseho amazi ya Nili.

Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Nyakubahwa perezida Paul Kagame ari kumwe n'abandi bantu benshi higanjemo abagore ndetse n'abagabo bahagaze begeranye bavangavanze.

Abagabo babiri bari guseka bahagaze, inyuma yabo hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, umugabo umwe wambaye karuvati, ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru ndetse n'undi yambaye imyenda y'akazi y'abapolisi isa umukara ndetse n'ingofero y'umukara.

Umugabo wirabura ufite ikaramu mu ntoki wambaye impeta ku rutoki rwa kabiri mu kaboko k'ibumoso, wambaye ishati y'amakarokaro y'umweru ndetse yambaye n'ikoti ry'umukara ameze nkaho arimo aravuga.

Ni icyumba kiri kuberamo inama, aho iyo nama yitabiriwe n'abagabo benshi. Hakaba harimo umugabo wambaye ikote ry'ubururu, undi wambaye ikote ry'ivu, undi wambaye ikote ry'ubururu n'undi wambaye ikoti ry'umweru, imbere yabo hakaba hateretse za mikorofone zibafasha kurangurura amajwi, bakaba bari ku meza, inyuma bakaba bicaye ku ntebe z'umukara.

ikindi n ikiberamo inama aho iyi nama iyobowe na perezida w'igihugu paul kagame inama yakoranye n'abanyamakuru akaba n'abanyamakuru benshi bafite za camera kaba ari inzu imo amatara menshi amurika cyane ikaba ari ahantu abantu b'abagabo benshi harimo bicaye hasi n'abahagaze

Ni igihe umukuru w'igihugu w'u Rwanda Paul Kagame, yari ari mu matora, aho hari abantu benshi bafite uburangantego bw'iri shyaka ahagarariye FPR, akaba ari ishyaka rifite amabara y'umutuku, umweru n'ubururu, akaba Perezida yambaye imyenda y'umukara yazamuye akaboko, bisa nk'aho ari gusuhuza abaturage, na bo bamwishimiye cyane.

Inama yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, muri iyo nama harimo abagabo benshi, ahagaragara ni abagabo babiri bambaye amakoti bose asa, bafite imbere ku meza bafite amazi ya nili n'utuhure tw'umweru, hakaba hari indangurumajwi imbere yabo, inyuma yabo hakaba hari abadamu, bakaba bicaye ku ntebe z'imikara bose.

Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida Paul Kagame ahagararanye na Janette Kagame ndetse n'undi mugabo wambaye ishati y'umutuku bari iruhande rw'idarapo ry'ubururu n'icyatsi ndetse n'umuhondo ariryo ry'u Rwanda bahagaze imbere y'abaturage muri sitade perezida ari gutanga ijambo.

Urubuga rwitwa eni ero eyi cyangwa nashono landi otoriti, rwifashishwa muri repubulika y'u Rwanda, aho itanga ku buryo bwihuse amakuru y'ingenzi ku butaka.

Abantu barenze umwe higanjemo abagabo ndetse n'abagore aho abagabo bamwe bambaye imipira y'umweru ndetse n'ingofero z'umweru abandi bakaba bambaye imipira y'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru ndetse n'umugore wambaye imikenyero y'ubururu ndetse n'umupira w'umweru bose bambaye amakarita y'ubururu mu ijosi bose bafite n'udutarapo mu ntoki ho harimo amabara y'ubururu n'umweru ndetse n'icyatsi.

Amatora yabereye mu gihugu cy'u Rwanda aho bari kwamamaza ishyaka rihanganye n'ayandi aho abamamaza bari bambaye imyenda y'umuhondo n'amajipo y'icyatsi kibisi bakaba bari mu mahema y'umweru afite uturongo ku ruhande rw'ibyatsi ki bibisi n'umuhondo by'idarapo ry'iryo shyaka.

Imodoka y'umukara irimo umugabo wambaye ishati y'icyatsi kibisi ndetse wirabura ufite n'agasatsi gake n'abaturage benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore bafite ifoto y'uwo mugabo uhagaze mu modoka yanditseho ngo tora.

Abagabo bahagaze imbere yambaye amrinete y'umukara bambaye amakote bose bahagaze kimwe, ku ruhande rwabo hahagaze umumamanwambaye rinete z'umukara, inyuma ye hakaba hari amashitingi menshi bisa nk'aho hari ikirori, abo bagabo bambaye amakoti y'ubururu n'amashati y'umweru n'ama karuvati, hirya hakaba ari umusirikare wambaye amapeti.

Abantu benshi bari mu nteko cyangwa inama higanjemo abagabo ndetse n'abagore, intebe ya mbere yicayemo abagabo babiri umwe yazamuye agatoki yambaye ikositimu y'ubururu ndetse yambaye n'i karuvati.

Umubyeyi cyangwa umumama ufite umusatsi udasutse cyangwa mu ndimi z'amahanga umusatsi wa naturere ufashe abana babiri umwe mu kuboko kw'iburyo ndetse n'undi mukuboko kw'ibumoso bakaba bahagaze hagati mu marido .

Abanyamuryango b'umuryango wa efuperi inkotanyi bambaye imipira y'ubururu bwerurutse ndetse n'utugofero mu mutwe tw'umweru, ndetse bafite n'amadapo yanditseho fpr biri mu mabara y'umutukuu umweru ndetse n'ubururu.

Serivisi y'igihugu ishinzwe gutegura amanama, hakaba inama yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, abayobozi barimo perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda n'umufasha we Jeannette kagame, akaba inama irimo abayobozi benshi batandukanye, ikaba yitabiriwe n'abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye, harimo abirabura abazungu ndetse n'abarabu.

Ni gahunda y'igihugu y'amatora ni abagore batatu bambaye imipira y'umweru umwe afite imisatsi miremire undi afite imisatsi migufiya aho bari gutunganya impapuro z'umweru zi kuzikura hasi bazishyira mu gakarito aho bari hari ibitambaro by'icyatsi kibisi n'umuhondo bigaragaza ko bari mu matora bambaye n'amajipo y'umukara.

Imodoka ikoreshwa mu bwikorezi bw'abantu, aho iyo imodokadoka nini ifite amabara ubururu n'umweru, ikaba ifite amapine y'umukara, ibirahure by'umukara, ku ruhande hakaba haparitse indi ni iy'umweru yanditseho Yutongo, bikaba biparitse muri gare aho zegeranye cyane.

Ni inzu ifite amarangi y'umweru ikaba ifite amadirishya asize irangi ry'icyatsi kibisi, ikaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi, aho umuryango w'imbere ukoreramo kampani icura imfunguzo, mu muhanda hakaba harimo imodoka ya toyota itwaye imizigo myinshi, hakaba hari abamotari bari mu kazi n'abaturage bari kujya ku kazi.

Umuntu utwaye moto iri mu bwoko bwa moto zitwara utuzigo kuruhande, iri mu ibara ry'ubururu ndetse umugabo uyitwaye yambaye ipantaro y'ikoboyi isa ubururu na kasike y'umutuku n'umupira w'umukara.

Umuhanda munini urimo imodoka zigeze muri ebyiri, imwe akaba ari umweru n'indi akaba ari umweru n'umukara. Imbere hakaba hahagaze umugabo uri kugenda, inyuma ku ruhande hari umusozi uriho ibyatsi. Imbere ku izo modoka ni umuhanda wo muri parikingi, aho iruhande hateye ibyatsi bya pasiparumu.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru, iri imbere y'igipangu cy'umukara, iri hejuru y'iteme ndetse ikaba iri mu bwoko bwi'imodoka za Toyota.

Aha ni nijoro aho abamotari bahagaze ari benshi ku kumuhanda bose wambaye amajire y'ubururu , y'ubururu n'umuhondo bakaba bicaye ku mamoto yabo menshi akaba acanye imbere yabo hakaba hariho inyubako y'ubucuruzi iri kwaka amatara menshi cyane. Abamotari bakaba bambaye n'ingofero zikomeye zibarinda kuba bakangirika ku mutwe z'umuhondo.

Umuhanda munini ukoresheje ibikoresho bya kaburimbo ufite ibyerekezo bibiri ikiburyo n'icy'ibumoso uri kugenderamo imodoka ifite ibara ry'ubururu iri mu bwoko bw'imodoka zitwa toyota ndetse hirya yaho hakaba hari ibyapa biriwi ibara ry'umweru.

Imodoka zihuriraho haparitse akamodoka gato kitwa kanditseho medi ini rwanda, mu magambo y'umweru aho hari abantu benshi bari gucamo ahongaho n'imodoka nini z'umweru zitwara abantu mu buryo bwa rusange akaba ari akamodoka bita hadiboyi.

Abagabo babiri bari kugenda mu gice cy'iburyo cy'umuhanda mu kayira k'abanyamaguru n'inyuma yabo hari imodoka izwi nk'imodoka rusange itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ibavana mu gice kimwe cy'igihugu ibajyana mu kindi, ifite amarangi y'ubururu ndetse n'umweru.

Ni imodoka iparitse ahantu haparikwa imodoka, aho ku ruhande rw'iyo modoka hari agacupa gatoya kazamo ji. Iyi modoka ikaba isa umweru, ikaba ifite amapine y'umukara, mo imbere hakaba hasa umukara akaba ari yundayi, aho ku ruhande hari amazu y'ubucuruzi atandukanye. Kuri iyo modoka hakaba handitsemo imibare icumi icumi.

Umuhanda ukoresheje amabuye akoze mu isima ukunze kwitwa amapave mu ndimi z'amahanga, ibumoso bwayo hari abamotari bari kuri moto z'umutuku ndetse buri wese yambaye ijire y'umweru ndetse n'ikasike y'umutuku cyangwa umuhondo cyangwa ubururu imbere harimo haraza imodoka iri mu ubwoko bwa Toyota y'umweru ndetse no ku ruhande haparitse izindi modoka nyinshi.

Umuntu uri gusunika ipine inyuma ye hakakaba ari imodoka nini itwara imizigo iyo modoka ikaba isa ubururu, icyatsi kibisi, n'umweru ,inyuma y'iyo modoka hakaba hari indi modoka y'umutuku iri gutambuka hakaba hari umuturage wikoreye umufuka we mu muhanda munini, inyuma y'izo byose hari ibiti birebire.

Umuhandada munini wa nyabagendwa, aho muri uwo muhanda haparitsemo imodoka y'umweru yanditseho toyota, ku ruhande hakaba hari akayira k'abanyamaguru karimo igare. Mu muhanda hakaba harimo abagabo babiri, amamoto atatu n'igare rimwe. Hakaba ku ruhande hari abagabo bari gupakurura imodokada bikorera imizigo bayikura mu modoka bayijyana mu nzu y'umuntu.

Moto cyangwa ipikipiki iri mu ibara ry'umutuku ihagaze mu muhanda imbere y'amazu afite amabati y'ubururu ndetse n'imiryango y'ubururu, inyuma yaho hari izindi moto ziri kugenda ndetse zigendera muri kaburimbo cyangwa inzira y'ibinyabiziga.

Umuhanda mugari ugenderwa mu byerekezo byombi ik'iburyo n'ik'ibumoso, harimo ibinyabiziga byiganjemo moto, imodoka z'ibifuso, ndetse hari n'umugabo wambaye imyenda y'umutuku ku ruhande, aho imbere hari ipikipiki iri mu ibara ry'ubururu harimo umugabo, ndetse n'ipikipiki ifite n'umuzigo inyuma utwikiriyeho shitingi y'umukara.

Ni serivisi ya leta yo gutwara ibintu n'abantu akaba ari imodoka nini itwara abantu benshi mu mujyi wa Kigali, akaba ari imodoka ya kampani yitwa royo egisupuresi ikaba ifite amarangi y'umuhondo n'umweru n'ibirahuri by'umukara, akaba ari muri gare aho imbere yaho hari indi modoka ihaparitse y'umukara n'umunyamaguru wambaye isarubeti y'ubururu uri gutambuka imbere y'imodoka.

Icyangombwa cyerekana ibigomba kwishyurwa hakurikijwe amategeko cy'urwego rushinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda reveni otoriti.

Umugabo utwaye igare wambaye umupira w'umweru, ipantaro ya kaki ndetse n'inkweto z'umweru wambaye n'amarinete cyangwa amadarubindi ndetse n'isaha ku kuboko kw'ibumoso utwaye igare ari kugendera munsi y'ikiraro ku muhanda akoresheje ibikoresho bya kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bibiri aho imodoka iri imbere ifite ibara ry'umutuku ndetse ikaba itwaye n'umuzigo w'umucanga inyuma yayo hakaba hari ipikipiki cyangwa moto ifite ibara ry'ubururu ndetse ifite n'umwanya ujyanama kazigu inyuma ndetse imbere akaba yicaye n'umuntu wambaye ibitwenge by'ubururu.

Ikinyabiziga cyitwa moto aho ikinyabiziga gitwara imizigo kiba cyitwa hatibodi kikaba gifite amabara y'ubururu kikaba kiri mu muhanda munini, umuhanda munini w'ibyerekezo bibiri bitandukanye hakaba ibinyabiziga bibiri byose byanditseho mede ini Rwanda inyuma no ku mpande.

Umuhanda munini w'ibyerekezo bibiri, aho izi modoka zinyuramo zizamuka, izindi zi manuka, hakaba hari imodoka nini itwara imizigo, iba ifite ibara ry'umweru, amapine y'umukara, kuruhande hakaba hari indi moto itwaye umugenzi iri kumanuka, n'umunyegare uri kumanuka, akaba ari umuhanda munini, kuruhande hariho akayira k'abanyamaguru.

Mu umuhanda munini nyabagendwa aho muhanda n'ibinyabiziga byinshi harimo moto amagare n'abanyamaguru n'imodoka, kuruhande rw'umuhanda hakaba hariho ishyamba ry'ibiti birebire ku rundi ruhandekaba ari akayira k'abanyamaguru karimo abantu benshi kandi bapijya mu mirimo itandukanye.

Imodoka nini iri mu ubwoko bw'imodoka zitwara imizigo zikunze kwitwa amafuso, iri mui ibara ry'umweru ndetse ikagira n'utwuma ku ruhande dusa ubururu, ndetse ikaba harimo n'inka zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Umuhanda w'ibyerekezo bibiri urimo imodoka yo mu bwoko bw'imodoka zisanzwe zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zibakura mu gice kimwe cy'igihugu zibajyana mu kindi gice aho ifite ibara ry'umweru ndetse n'utundi tubara duto duto tw'ibara ry'icyatsi ikaba irimo iragenda inacanye amatara.

Imodoka nini iri mu bwoko bw'imodoka rusange zifashishwa mu gutwara abantu zibavana hirya zibajyana hino iriho ikirangantego cya banki nkuru ya Kigali, handitseho ngo gucunga konti n'ubuntu ikaba isize amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Imodoka nini iri mu bwoko bw'imodoka zitwara imizigo zikunze kwitwa ibikamyo iri mu ibara ry'umweru ndetse no hirya hari indi modoka nayo iri mu ibara ry'umweru ikunze kwitwa imodoka ya toyota.

Imodoka nini iri mu bwoko bw'imodoka zitwara imizigo cyangwa amafuso iri kugendera mu muhanda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, inyuma yayo hari ipikipiki iriho umumotari ndetse itwaye n'umugenzi ndetse n'igare.

Umuhanda ukozwe mu bikoreshwa bya kaburimbo ufite ibyerekezo bibiri icy'iburyo n'icy'ibumoso uri kugendamo imodoka nini zikunze kwitwa imodoka zitwara imizigo iri mu ibara ry'umweru ndetse ipfundikishije shitingi isa ubururu irimo iragenda mu cyerekezo cy'iburyo.

Ingiyi mu byereke bibiri bitandukanye aho umuzamuka undi ukamanuka ukaba ari umumotari utwaye umugenzi bicaye kuri moto y'umutuku umumotari yambaye ijile umugenzi yambaye kasike n'ipantaro y'umweru n'ishati y'umukara aho uwo muhanda ufite amarangi aho imirongo yo hagati ari umuhondo imirongo yo ku mpande ari umweru n'umukara.

Umugabo wambaye umupira wa kaki ndetse n'ikabutura ya kaki n'ingofero y'ubururu uhagaze iruhande rw'umuhanda aho mu muhanda munini ucamo ibinyabiziga harimo imodoka nini ikunze kwitwa imodoka zitwara imizigo iririmo ibara ry'umweru ndetse inyuma hariho ibara ry'ubururu inyuma yayo hari abamotari bambaye makasike y'umuhondo ndetse n'abambaye z'umutuku.

Imodoka iri mu ibara ry'ubururu, iri mu ubwoko bwi'modoka nini zitwara imizigo hirya no hino mu gihugu itwaye amacupa ya gaze asa umutuku yo mu bwoko bwa esipi (s p )gaze.

Umuhanda munini ugenderwamo n'ibinyabiziga byiganjemo imodoka, moto ndetse n'amagare. Aho imbere hari ikinyabiziga cyangwa imodoka nini ikunze kwitwa imodoka itwara imizigo, aho iri mu ibara ry'ubururu ndetse imbere yaho hakaba hari n'abanyamagare ndetse n'izindi modoka.

N'imodoka nini itwara imizigo aho modoka iri mu muhanda w'icyerekezo kimwe imodoka aho zinyuya zizamuka iyo modoka akaba ari umweru ufite amapine y'umukara ifite n'akabara k'umuhondo inyuma hejuru ikaba ifiteho shitingi ku ruhande hakaba hari ibiti birebire bituma umuyaga uha umuyaga abantu bari mu muhanda watembera.

Ubusitani buri iburyo bw'umuhanda burimo udutebe twubakiye hejuru hariho ibiti yicayemo abantu batandukanye higanjemo abagore umugore wambere uhicaye yambaye ijipo y'umuhondo ndetse n'ishati y'umukara imisatsi y'umukara bu begeranye yambaye ishapo y'umukara ndetse nije y'umuhondo ya MTN uwo bicaranye yambaye ipantaro y'umweru.

Ni ikibuga cy'umupira, ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi bane, amazamu abiri aho ikigo gis a icyatsi kibisi kikaba giteyemo irangi ry'umweru, hirya ku ruhande akaba ari abafana baba bahagaze, hirya aho ikibuga cyitaruriye ahantu ishyamba rinini rifasha abakinnyi guhumeka neza n'amatarafasha kumurika iyo bwije, ku ruhande hari ahantu abafana bahagarara hatari ubutaka gusa.

Icyapa cy'umuhanda kiri mu ishusho y'ikizeru kirimo ubuso bw'ibara ry'ubururu ndetse n'ikimenyetso cyabyo gisa umweruru gifite n'umuzenguruko w'umweru kirimo icyapa gikunze gukoreshwa mu muhanda cyerekana ko imbere hari inzira ndetse no ku mpande mu gice cy'ibumoso hari indi nzira.

Icyapa cya mpande enye gifite ubuso bw'ibara ry'umuhondo ndetse kikagira n'ibara ry'ikimenyetso ry'umukara, kikagira n'umuzenguruko w'umukara, gikoreshwa mu muhanda cyerekana ko imbere hari inzira itambika ndetse n'ikomeza.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda, aho icyapa kerekana ko imbere hari amatara afasha abantu kwerekeza icyerekezo, rihaka ari itara ry'umutuku, umuhondo n'icyatsi kibisi, biri mu ibara ry'ubururu n'ibara ry'umukara. Iryo bara ry'umukara rikaba riri mu ibara ry'umweru rikaba rizengurutswe n'ibara ry'umutuku.

Ni ibyapa bibiri bitandukanye aho kimwe ari umweru ikindi akaba ari icyatsi cyibisi akaba ari icyapa cyerekana ko uri kuva mu Rwanda winjira mu Burundi, hakaba hari umugore w'umuzungu wacyifotorejeho, ku ruhande hari imodoka ya kampani ishinzwe gutwara ba mukerarugendo yitwa Safari.

Icyapa giteganye n'umuhanda giteye mu busitani, gifite ubuso bw'ibara ry'umweru, umuzenguruko w'ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'ikirango ry'umukara, icyapa cyerekana ko hari agakona kaberamiye ibumoso.

Icyapa kiri hagati y'umuhanda n'inzu kereka ibinyabiziga kutarenza umuvuduko wa mirongo itandatu ku isaha, ndetse kikaba kiri mu buso bw'umweru ndetse no mu muzenguruko w'umutuku kiri mu ishusho y'ikizeru.

Icyapa cya mpande eshatu gikoreshwa mu muhanda gifite ubuso bw'umweru ndetse n'ibara ry'ikimenyetso ry'umukara gifite n'umuzenguruko w'umutuku, gikunze gukoreshwa mu muhanda cyerekana ko imbere gato hari imirimo y'ubwubatsi iri kuhakorerwa.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda, aho iki cyapa gisa umweru, umutuku n'umukara mo imbere. Aho iki cyapa munsi handitse ijambo rirerire riri mu ibara ry'umukara. Icyo cyapa kikaba gifite ubuso bw'umweru kizengurutswe n'akabara k'umutuku, mo imbere hakaba harimo utuntu tujyemda tuburungushuye tw'umukara.

Icyapa gikunze gukoreshwa mu muhanda cya mpande esheshatu gikunze gukoreshwa mu masangano y'imihanda aho baba babwira umutwazo w'imodoka kubanza guhagarara akitegereza neza, kiri mu buso bw'ibara ry'umutuku ndetse n'umuzenguru w'ira ry'umweru ryanditseho amagambo sitopu cyangwa mu rurimi rwacu guhagarara.

Icyapa gikunze kwifashishwa mu muhanda kirimo ubuso bw'ibara ry'umweru, gifite ikimenyetso kiri mu ibara ry'umukara ndetse gifite n'umuzenguruko w'ibara ry'umutuku, kikaba gikunze gukoreshwa mu muhanda aho baba berekana ko bitemewe guparika muri uwo mwanya.

Ni icyapa cy'umuhondo cyifashishwa mu muhanda icyapa kikaba gisa umukara gifite ubuso bw'umuhondo inyuma hari ibara ry'umweru rinini icyapa cyerekana ko ahantu ugiye guca umuhanda urimo imbere hari indi mihanda ibiri icombikiye kuri uwo muhanda uri kunyuramo.

Ni icyapa kiri mu muhanda ahantu bari kubaka umuhanda, uwo muhanda ukaba wubatse mu mabuye, akaba ari icyapa cy'umweru n'umukara kikaba kiri kubabwira ko imbere hari gukorerwa ibikorwa by'ubwubatsi mu muhanda, ku ruhande harimo moto n'abakozi babiri n'umuturage uri umwe kugenda, ku rundi ruhande hakaba hariho urukuta rwubakishijwe amabuye.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru, kiri imbere y'inzu yubakishije amatafari ya rukarakara, ndetse n'indi imbere yayo yubakishije amatafari yaditse isiza n'umucanga, ifite n'amabati y'umutuku, icyapa cyanditseho ibyerekezo, harimo akarere ka ka Huye, Akanyaru ndetse n'akarere ka Muhanga, akarere ka Ruhango ndetse n'akarere ka Kinazi.

Muri iki gihe ibintu byaroroshye, ushobora kuba wibereye iwawe ugatumiza ibiribwa bitandukanye nk'inyama ndetse n'ibindi bakabikugezaho aho waba uri hose. Hari imodoka zibishinzwe urahamagara ukavuga aho uri ukabarangira neza bakabikuzanira ibi byoroheje ibintu byinshi.

Banki nkuru y'igihugu bita banki ofu Kigali, ikaba ifite amabara y'umweru n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, akaba ari inzu ifite imiryango y'ubururu ifite amakaro y'umweru n'andi makaro y'umukara imbere y'umuryango, mu imbere hakaba harimo umuntu uhagaze imbere y'ikirugu kiri kwaka amatara atandukanye.

Inzu yubakisha amatafari ahiye ifite amabati y'umutuku ndetse n'utudirishya dutoya dusize amarangi y'umweru inyuma yaho hakaba hari indi nzu ifite utudirishya duto duto tw'umukara ifite irangi rya kaki ndetse n'ibumoso bwa hakaba ari indi nzu y'umweru.

Umuhanda munini wa kaburimbo ugendwaho n'ibinyabiziga uriho na gahanda ko ku ruhande kagenderwaho n'abanyamaguru, hirya y'umuhanda hari inzu ziri mu irangi risa umuhondo ndetse haparitseho n'imodoka irimo ibara ry'umukara.

Inzu nziza ifite amagorofa abiri, imbere yaho hari imodoka y'umweru ndetse n'inyuma yaho harimo y'umweru ikaba isize amarangi y'umweru ndetse ikagira n'amabati asa orange.

Umuhanda wa kaburimbo ufite icyerekezo bibiri uzamuka n'umanuka akaba ari igipangu gifite amatafari ahiye kiriho indabo z'icyatsi kibisi zifite imikindo miremire irenga igipangu ku ruhande akaba hari igipangu kindi cy'ubururu gifite amatafari nacyo ahiye.

Inzu ifite amagorofa abiri iherereye ku muhanda, ifite amabati asu umutuku ndetse n'amarangi ku gikuta asa n'ubururu bwerurutse, ikabi ituranye n'indi nzu nayo ya etaje ifite amagorofa abiri ndetse hejuru hakaba hari insinga z'amashanyarazi.

Inzu ikorewemo ibikorwa byinshi byiganjemo ibitanga serivisi za banki nka ekwiti, kopedu ndetse na emu yu eyi byifashishwa mu gutanga serivisi zo kubitsa no kubikuza ndetse no kohereza amafaranga hirya no hino ku Isi.

Inzu y'amagorofa atatu ifite amarangi yumweru kuruhande ndetse n'umutuku wijimye kuruhande ikagira n'ibirahuri by'umukara. Imbere y'iyo nzu hari umutaka wumuhondo wa emutiyene ndetse hari n'icyapa cyifasheho cyanditseho forutebeti.

Inzu isize amarange asa kaki, ndetse ifite n'amadirishya asa umweru, n'inzugi zisa umweru aho.

Inyubako nyinshi zubatse mu buryo bw'umudugudu ni sisitemu ya leta ifasha gutuza abantu hamwe heza kugira ngo babone uko babaha serevizi. Hakaba hari inzu nyinshi , iyo nzu zikaba ari etaje zose , zikaba zifite amabati y'umutuku inyinshi ni izo umukara ,hagati y'amazu hakaba hateyemo ibiti bifasha guhumeka neza.

Inzu nini aho ari etaje. Iyi nzu ikaba ifite amagorofa abiri. Ikaba ari inzu ifite igipangu cy'umukara, ifite amapave hanze y'igipangu, akaba ari inzu igaragara ko ifite amarangi y'umweru, akaba ari inzu idasakaye bayita konoshi. Ikaba iba isakaje isima. Akaba ari inzu ifite indabo ku ruhande. Ifite n'amatara ku gipangu.

Umuhanda munini urimo urujya n'uruza rw'abantu bavanze, abakobwa, abagabo, abahungu ndetse n'abagore n'abana, ndetse n'ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka, iruhande rwawo hari inzu igereretse kabiri, ifite amagorofa abiri, isize amarangi ya kaki, ndetse mu bamotari abenshi bambaye amajire y'umuhondo.

Inzu y'amagorofa abiri imbere hariho icyapa kiriho amabara y'ubururu cyanditseho banki ofu Kigali cyangwa se banki ya Kigali ndetse yanditseho Giporoso buranshe, cyangwa ishami rya Giporoso, hejuru hariho ipikipiki iri ku cyapa k'irimoso bw'ibara ry'umweru.

Serivise ya leta aho ari ukuvangura abantu n'inganda, hakaba hari uruganda runini cyane rukorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, inyuma yaho hakaba hari umurima uteyemo ibigori, ku ruhanda hakaba hari imashini iri gusiza urwo ruganda rukaba rufite amazu asize amarangi y'umweru.

Inzu ya etaje ifite amagorofa agera muri ane, ifite amarangi asa kaki ndetse n'umukara, imbere yaho haparitse imodoka y'umutuku ndetse ifite korutire ifite ibara ry'umukara ndetse hejuru ya coritire hariho utwuma dushinzemo tw'umukara, ndetse iyo nzu yanditseho ngo Elizabeth Golf Apartment.

Ni inyubako nini ifite amagorofa ageze muri atanu aho iyo nyubako ifite amarangi hose asa y'ivu hakaba hagaragara inyuba icyumba kimwe gikoreramo gikoreramo kampanyi ishinzwe kuvunja no kuvunjisha amafaranga y'ibihugu bitandukanye imbere hakaba hahagaze abantu n'aba ajenti bakorera kompani yitwa emutiyeni m'u rwanda.

Mu muhanda y'ibyerekezo bibiri naho imodoka zinyuraranye zizamukagendarimo zimanuka inyuma ya yadutse imodoka nyinshi hamwemo z'umukara n'iz'umweru n'abamotari bari mu kazi hirya yaho hari inzu yininyubako nini y'ubucuruzi ifite amagorofa agera muri ane.

Imidugudu cyangwa imiturire y'ahantu hatuye abantu, hari amazu menshi afite amabati y'umutuku, amarangi y'umweru ndetse harimo n'agiye afite amagorofa, harimo n'izituzuye zikiri mu bikorwa byo kubakwa ndetse n'izarangiye kubakwa zituyemo abantu.

Aho abantu batuye mu mudugudu cyangwa se mu gace harimo amazu yubatswe neza y'ama etaje ndetse n'amakadasitire, hagiye hateyemo n'ibiti hagati y'inzu ndetse n'iyindi.

Inzu y'ubucuruzi cyangwa ibarizwa mu bikorwa remezo by'igihugu irimo imiryango myinshi aho abenshi bacururizamo ndetse hasa hari umuryango wa banki ukunze kwitwa ekwiti, hasi hakaba hari imodoka zirenze imwe ndetse n'abantu bahagaze imbere yaho.

Umuhanda unyura muri karitsiye n'umumuhanda uri gucamo imodoka y'umukara n'abaturage babiri. Ku ruhande hakaba hari amazu y'abaturage ariho n'ibipangu. Ku rundi ruhande hakaba hari akayira amazi anyuramo kugira ngo birinde isuri. Inyuma y'iyo modoka hakaba hari amazu menshi y'imiturirwa.

Imiturire y'abantu bateye Kimironko. Akaba ari amazu menshi kandi meza, hagati y'amazu n'andi harimo ibiti byinshi bibafasha guhumeka. Aho haruguru yaho hari amazu y'ubucuruzi, abafasha kubona serivisi bibegereye. Hagati y'amazu n'andi harimo umuhanda w'itaka.

Umuhanda munini uruhande rumwe ukoreshejwe ibikoresho bya Kaburimbo, ndetse mu ruhande rw’abanyamaguru ukoresheje ibikoresho bikorwa mu isima, bikunze kwitwa "amapale" mu ndimi z’amahanga. Uri kugenderamo ibinyabiziga, amamoto, ndetse n’amamodoka.

Imodoka nini iri mu bwoko bw'imodoka zitwara imizigo, ziyivana mu gihugu kimwe ziyijyana mu kindi, ndetse zinavana mu gice kimwe cy'igihugu zijyana no mu kindi gice; iri mu ibara ry'umutuku ndetse imbere hasi icyatsi.

Ibyapa byo ku muhanda ubisanga mu mabara atandukanye cyane ,aho usanga hari ibara ry'umutuku hagati harimo ibara ry'umukara. Ariko biba bigoranye cyangwa se bikunze kugora abantu benshi kumenya ngo ikimenyetso kifite icyo kigaragaza nk'ibyo bimenyetso bibiri ni ikihe? kuko abantu benshi bakunze kwibaza ngo umutuku cyangwa umukara ni ikihe kimenyetso kiri gutanga ubutumwa muri ibyo bimenyetso bibiri.

Umuhanda munini w'ibyerekezo byombi ik'iburyo ndetse n'ik'ibumoso, urimo abantu bane bari kwambukira mirongo y'umweru, iba yerekana aho abanyamaguru bambukira bava mu gice kimwe cy'umuhanda bajya mu kindi gice cy'umuhanda.

Umuhanda ugenderamo ibinyabiziga Ukoreshejwe ibikoresho bya kaburimbo, ibumoso bwayo hari kugendamo igare ritwawe n'umugabo wambaye umupira w'umukara, ndetse n'ipantaro y'ubururu bwijimye, iburyo bwayo hari ishyamba ndetse imbere harimo hari imodoka irimo ibara ry'umweru ndetse n'amapikipiki.

Umuhanda mugari ufite ibyerekezo byombi iby'iburyo ndetse n'iby'ibumoso, harimo haragenderamo ibinyabiziga byiganjemo imodoka ndetse na moto ndetse n'umunyamaguru umwe, ndetse imbere yaho hakaba hari ibimenyetso by'ikoranabuhanga, byifashishwa byerekana ko abantu bakwiye kwambuka cyangwa ntibambuke, bikaba biri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Umuhanda w'ibyerekezo bibiri, aho zinyuramo zizamuka izindi zimanuka, hakaba hari imodoka ebyiri ntoya, zitwara... oya ni ku giti cyabo, hakaba harimo n'akandi akamoto gatoya agatwara imizigo, umuhanda hakaba harimo umunyamaguru umwe ufite umufuka ku rutugu.

Ni akayira gato k'abanyamaguru aho karimo abantu bane igare rimwe akaba ari akayira karimo n'inyamaswa, ku ruhande hari igiti kirekire k'icyatsi kibisi hakaba n'ubwatsi buto bwa pasiparume, ku ruhande hakaba amatara afasha kumurika urundi ruhande hari guca imodoka nyinshi n'kiraro cy'ubururu cyanditseho ikiraro .

Umuhanda munini urimo amatara y'urwererane ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye, hirya yawo hari ubusitani ndetse no hirya hari inzu ihubatse, hejuru yayo hagiye hariho amatara agiye atandukanye yaka ibara ry'umuhondo.

Umuhanda mugari urimo ibyerekezo bibiri bitandukanye cy'iburyo n'icy'ibumoso hagati harimo igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa, mu kureba imivuduko y'ibinyabiziga gikunze kwitwa mu ndimi z'amahanga sofiya kirimo amabara ya kaki ndetse n'umukara.

Umuhanda w'ibyerekezo bibiri aho imodoka zimwe zizamuka ine zikamanuka hagati y'iyo mihanda ibiri hakaba arimo ahantu hateye ubwatsi harimo indabo n'amatara afasha kumurika nijoro hirya y'uwo muhanda hakaba hari imodoka imwe iri kuzamuka y'umweru ikarimo na moto ebyiri.

Isangano ry'imihanda aho harimo ibyerekezo bigeze muri bine, umuhanda uzamuka, utambika, n'umanuka, imbere hakaba hari inzu y'imiturirwa y'amagorofa ageze muri ane, ikaba isize amarangi y'umweru, mu muhanda harimo aba motari babiri, n'imodoka imwe itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, kuruhande hakaba haparitse abamotari.

Umuhanda ugaragaza akayira k'abanyamaguru ndetse n'inzira y'ibinyabiziga ikoze muri kaburimbo hakaba harimo n'imirongo y'umweruru igaragaza aho abanyamaguru bambukira bava mu gice cy'umuhanda kimwe bajya mu kindi gice cy'umuhanda.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo uyu muhanda urimo imodoka ipakiye imizigo ariko itari mu bwoko bwa rukururana, uyu muhanda ku mpande ebyiri zawo hari inzira yahariwe abanyamaguru ku ruhande rwo hepfo rw'uyu muhanda hari ibiti.

Imodoka yo mu ibara ry'umutuku wijimye iri mu bwoko bwa toyota, ihagaze mu gice cy'umuhanda kirimo ibimenyetso byerekana aho abanyamaguru bambukira bava mu gice kimwe cy'umuhanda bajya mu kindi.

Ni imihanda ibiri aho umwe uzamuka undi ukamanuka aho muri uwo muhanda umuhanda usisize irangi ry'umweru n'umukara ku ruhande aho hirya y'aho hari ibiti n'ubwatsi bwa pasiparume hakaba hari akapa k'umutuku n'umweru kerekana icyerekezo mu guca kuri uwo muhanda hagati y'imihanda ibiri harimo amatara afasha kubonesha.

Isangano ry'imihanda igeze muri ine. Hari ibiri imanuka, ibiri izamuka n'indi itambika hakaba harimo umumotari utwaye moto y'umutuku ifite ampine y'umukara akaba atwaye umugenzi uhetse igikapu akaba yambaye umupira w'ingofero w'umweru n'ipantaro y'ubururu, naho ku ruhande hari imodoka y'umukara iri kugenda n'amamoto menshi.

Mu muhanda nko mu masangano y'umuhanda harimo ahantu abanyamaguru banyura n'aho imodoka zinyura. Mu muhanda hakaba haririmo abanyamaguru babiri n'undi umwe utwaye momota, buri wese yambaye amajiri. Mu muhanda hakaba hasizemo amarangi y'umweru aho abantu baca; hirya hakaba hari abaturage bahatuye n'itara ryo mu muhanda.

Inzira iri mu bwoko bw'ikiraro inyura hejuru y'umuhanda cyangwa se hejuru y'amazi yifashishwa n'ibinyabizigakuru kuba byava mu gice kimwe bijya mu kindi.